Icyapa cya kijyambere kigizwe n'amatara ane, girushanyijeho abasheshe akanguhe babiri b'abazungu, umukecuru ndetse n'umusaza n'ugaragara nk'umwuzukuru wabo, cyamamaza serivise zirimo iz'ubwishingizi bw'imodoka, ubuzima ndetse n'izo gutembera n'ibindi byinshi.

Inzu y'ubucuruzi izwi nka butike ihagazemo abagore babiri, Ucuruza ndetse n'uje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, imifuka y'amaceri, ndetse na za kawunga, amakaziye arimo ibyo kunywa, amabase, ndetse n'amasafuriya, ibirungo, amayisuma n'ibindi byinshi bitandukanye.

Umugabo uri guseka ari kumwe n'umugore w'umuzungu ufite mudasobwa bishimye cyane bari mu iduka ricuruza imyenda y'abagore igizwe n'amakanzu menshi.

Umugore ufite akanyamuneza ku maso he, wambaye igitambaro cy'umukara, ufite telefone igendanwa mu ntoki, bigaragara yuko ashobora kuba acuruza isoko ry'imboga, ko inyuma ye hari inyanya, ndetse n'izindi mboga zitandukanye.

Abagabo babiri bahagaze umwe ubona yakira ibihembo undi abimuhereza uwakira ibihembo biragaragara ko ari umunyamahanga afite yakira impano imwe iri mu gikapu cy'umutuku ndetse n'imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa kiya iparitse ahantu hari uburanga bwiza butangaje.

Isahani nziza nini isa neza y'umweru, iriho amasambusa asa nkaryoshye ,amasambusane ane y'inyama ariko hari isambusa imwe yariweho ndetse bigaragara k' uwayiriye yaryohewe,

Inzu y'ubucuruzi iciriritse ariko irimu byo kunywa by'imitobe y'ubwoko butandukanye ndetse na frigo irimo amata ya mukamira hari umugabo uri mu kigero cy'imyaka nka mirongo itanu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara n'umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi ndetse n'ikote ry'ubururu n'intebe yo kwicaraho yibara ry'ubururu .

Uruganiriro rw'inzu ubona ko ari nshyashya ariko ya kijyambere n'intebe nziza cyane z'amabara atandukanye ndetse zikoze bitandukanye, ameza manini ariho imitako myiza ndetse hari n'akabati keza kanini washyiramo ibintu byinshi.

Inzu nziza isa nkaho ari hoteli igizwe n'ubusitani burimo ibiti by'amoko atandukanye bikiri gushibuka ariko bigaragara yuko umunsi bizaba byakuze bizatuma ubusitani busa neza ahantu hazaba hari akayaga cyane kubona mu nkengero z'inzu hari ibiti birebire byiza biteye amahumbezi .

Icyumba cya hotelI gikorerwamo inama zitandukanye kirimo intebe nyinshi z'umukara, amacupa y'amazi menshi ndetse n'ameza maremare.

Icyapa cyamamaza uburyo wateganyiriza abana bawe ukoresheje konti za banki izwi nka akisese kiriho umubyeyi ndetse n'umwana we bishimye.

Isoko ry'ibiribwa ritubatse ririmo uruva n'uruza rw'abantu biganjemo abagore abacuruzi ndetse n'abaje guhaha ibiribwa birimo ibitoki, amateke, karoti ndetse n'imbuto nk'imineke n'ibindi bitandukanye.

Isoko ryubakiye ririmo ibiribwa bitandukanye bari gucuruza, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga byose birimo, ni byiza kubirya harimo intoryi, harimo inyanya n' ibindi nk' ibitoki n' ibindi birahari.

Urugi rwiza rwa libuyu ruri mu nzu igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'amanyarwanda bikaba biherereye mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kabeza bikaba biri mu nzu isa neza ifite amakaro y'amabara yijimye munzu isa neza cyane .

Inzu nziza cyane igezweho, igurishwa amafaranga miliyoni ijana na cumi n'eshanu mu mujyi wa Kigali, ahantu heza, inzu y'amabara meza, amadirishya meza, yewe n'igisenge cyiza; ikaba ifite parikingi nini cyane ijyamo imodoka enye, ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza itari ninitari na ntoya ariko isa neza igaragaza igice kimwe cy'igikoni ndetse n'ikindi gice kigaragaza idirishya ubona ko ari heza gifite icyumba kimwe, ubwogero rumwe ndetse n'igikoni kirimo imbere mu nzu.

Inzu nziza cyane nshyashya yubatse bya kijyambere, ifite amadirishya meza, ifite indabyo nziza mu gipangu, ituranye n'amazu meza mashyashya, iri kugurishwa ku mafaranga make cyane buri muntu wese yabasha kwishyu, ikaba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Inzu nziza cyane y'ibara ry'umweru yubatse bya kijyambere bigezweho, ikaba iherereye Kabeza mu mujyi wa Kigali, ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo ndetse n'aho kwiyuhagirira hatatu, ikaba isa neza, ikaba iri ahantu hari umuhanda umeze neza.